Aba ni abantu batandukanye bamwe baricaye ku ntebe z'umweru abandi babari inyuma barahagaze, inyuma yabo hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Iki ni icyumba k'inama kirimo abantu bagiye batandukanye biganjemo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe zisa umweru, bari kuganira bishimye ku mpande hakaba hari imeza iririho uducupa tw'amazi n'ibirahuri.

Uyu ni umugabo wicaye wambaye ishati n'amarinete, afite indangururamajwi mu biganza bye, akaba yicaye n'ndi mugabo wambaye umupira w'umuhondo n'amarinete.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kimwe bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere yabo bakaba hari ameza ariho insakazamajwi ndetse na mudasobwa n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bicaye mu ihema ry'umweru n'icyatsi n'ubururu, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo bakaba hari ameza ateretseho agacupa k'amazi ndetse n'ibindi.

Iki ni icyumba cy'inama kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibitabo ndetse n'insakazamajwi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama, bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibitabo ndetse n'uducupa tw'amazi n'ibirahure.

Uyu ni umugore wambaye ikote ry'umukara, umupira w'umukara, akaba afite insakazamajwi mu ntoki ze, akaba ari kuvuga, ari kubwira abandi bantu bicaye ku ntebe z'umweru, bambaye imipira y'ubururu.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'indorerwamo z'amaso akaba afite insakazamajwi mu ntoki ze imbereye hakaba hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi.

Uyu ni umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'ubururu, mu biganza bye akaba afite insakazamajwi, inyuma ye hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Iki ni icyumba k'inama, kirimo abantu bagiye batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara ndetse n'izindi zikaba zisa umweru, imbere yabo bakaba hari ameza ariho uducupa tw'amazi, mudasobwa n'insakazamajwi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba bamwe bicaye ku ntebe z'umukara abandi bahagaze, imbere yabo bakaba ari ameza asa umutuku ariho ibikapu, ibitabo, impapuro, n'uducupa tw'amazi.

Aba ni abantu bagiye batandukanye biganjemo abagabo n'abagore bakaba bari mu cyumba cy'inama bakaba bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari imeza iriho uducupa twa'amazi, mudasobwa ndetse n'insakazamajwi.

iki ni icyuma kirekire cyane kigiye kiriho ibintu bigiye bitandukanye, kikaba gisa umweru, umutuku. Hejuru hakaba hari ikirere gisa ubururu.

Ibi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga biteretse ku meza bimwe ibindi bikaba biri mu kiganza, nko ku meza twavuga ko hateretseho mudasobwa, mu kiganza cy'umuntu hakaba harimo telefoni.

Iyi ni imiryango y'ubucuruzi igiye ifite amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, kuri iyi miryango hakaba hari ibyapa byanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu mabara atandukanye.

Aya ni amagambo agiye atandukanye yanditswe mui ibara risa umweru, ubururu ndetse n'umuhondo, hirya hakaba yari igishushanyo cya telefone.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite umuryango usa umweru, ikaba iriho ibyapa byinshi bitandukanye byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, umweru, umutuku ndetse n'umuhondo.

Uru ni urupapuro rusa ubururu rwanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umweru, umuhondo, ndetse hejuru hakaba hariho n'igishushanyo kiriho ibiganza by'umuntu.

Aba ni abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe zisa n'umuhondo, izindi zisa umukara bakaba imbere yabo hari ameza agiye ariho ibintu bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuryango uriho icyapa gisa ubururu cyanditseho amagambo asa umweru, muri uyu muryango mo imbere hakaba harimo intebe ebyiri imwe isa umutuku indi isa ubururu.

Ibi ni ibinyabiziga byiganjemo imodoka ndetse na moto bihagaze impande y'inzu y'ubucuruzi yubakijwe amatafari ahiye iriho amagambo agiye atandukanye n'abagenzi bakaba bari kugendera impande y'iyo nzu.

Iki ni icyuma kirekire ginshijeho insinga ikindi, kiri hirya kikaba cyubatse ku kazu k'amatafari ahiye, hirya kaba hari amazu agiye atandukanye n'ibiti bitandukanye n'insina.

Aya ni amapoto y'icyuma akaba akikijwe n'ibiti nabyo birebire by'amoko agiye atandukanye, hejuru hakaba hari igicu nacyo gisa umweru.

Iyi ni imodoka nini cyane ifite ibara ry'umweru n'ubururu n'icyatsi, ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi itwara abagenzi. Hirya hakaba hari igare ndetse n'abanyonzi bari ku magare yabo.

Iyi ni inyubako ndende cyane yanditseho amagambo hejuru ari mu ibara ry'icyatsi hakaba hari n'imbere yayo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda hakaba hari abantu bagiye batandukanye bari kugenda impande yayo.

Iyi ni inzu y'inkuta z'umweru ikaba muri iyi nzu harimo abantu batandukanye ndetse hakabamo n'ikinyabiziga cy'imodoka gifite ibara ry'umweru gihagaze muri iyi nzu.

Aya ni amagambo menshi agiye atandukanye arimo n'imibare yivanzemo, akaba aya magambo n'iyi mibare byose byanditse mu ibara ry'umukara, bikaba byanditse ku gipapuro gisa umweru.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bari mu cyumba kiri kuberamo inama, bakaba bose bicaye usibye umwe wambaye ikote uhagaze uri kuvuga.

Iki ni icyapa kinini cyane kiriho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda cyanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara. Iki cyapa kikaba gishinze ku rukuta runini rusa umweru.

Aba ni abagabo babiri, umwe wambaye amapingu n'ikote ry'umukara, n'ishati y'umweru undi wambaye ishati n'ipantaro y'ubururu, akaba afashe uyu wambaye amapingu.

Aba ni abagabo babiri bambaye imyenda iri gusa, inyuma yabo hakaba hari undi mugabo wambaye ikote n'isaha, uri gusa nk'uri kubayobora, bakaba bari kuva mu nzu ifite inkuta zisa umweruru.

Iki ni igipapuro cyanditseho amagambo menshi agiye atandukanye, yose akaba yanditse mu ibara risa n'umukara, akaba yanditse ku gipapuro cy'umweru.

Uyu ni umugabo wambaye ingofero y'umukara ndetse n'umuhondo, akaba yambaye imyenda irimo ishati y'umweru n'igitambaro kiri inyuma y'ishati gisa umutuku, kirimo amabara y'umweru n'umukara.

Aba ni abagabo batandukanye bamwe bakaba bicaye mu nzu hirya abandi bakaba bari kugenda bahagaze bafite amajerekani mu ntoki zabo impande yabo hakaba ari igikuta kirekire cyane cy'amatafari ahiye.

Iki ni icyuma kimanitse ku rukuta rusa umweru n'umutuku, iki cyuma kikaba gikoreshwa mu kuzimya umuriro, kikaba nacyo gisa umutuku kikaba gifiteho impapuro zisa umweru, umuhondo, hakaba harimo n'umutuku n'umukara.

Aba ni abagabo bambaye ingofero z'umukara amashati y'umukara, amapantaro y'umukara n'inkweto z'umukara bari kuyobora ibinyabiziga bigiye bitandukanye mu muhanda.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto, uyu muhanda kandi ukaba usizeho amabarage atandukanye, arimo nk'imirongo y'umweru ndetse hirya akaba asize umukara n'umweru impande inzira y'abanyamaguru.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye hakaba harimo n'imodoka ishinzwe kuzimya umuriro ya polisi y'igihugu.

Iyi ni imodoka isa umweru inyuma ikaba yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ikaba ihagaze imbere y'inzu nini ifite ibara ry'umweru n'ubururu n'amadirishya asa umukara.

Aba ni abagabo bashinzwe umutekano, bambaye ingofero ziriho ikirangantego bakaba bambaye n'ipantaro ndetse n'ishati n'inkweto zisa umukara, bakaba ku maboko yabo bafite ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Aba ni abantu batandukanye, umwe akaba ahagaze akaba ari kuvugana n'undi wicaye wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umweru. Imbere yabo hakaba hari impapuro nyinshi ziteretse ku meza isa icyatsi.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara, akaba ari kumwe n'umufasha we wambaye ikanzu ndende inyuma hakaba hari abandi bantu bagiye batandukanye.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru uhagararanye n'umufasha we, hirya yabo hakaba hahagaze undi mugabo wambaye ikanzu ndende y'umutuku n'ingofero.

Aba ni abantu bagiye batandukanye bamwe bahagaze abandi bicaye, bakaba bari gufungura udukarito cyangwa se ibikarito bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'umweru n'umukara.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aha byiganjemo imodoka na moto hakaba hari n'umunyamaguru uri kuva mu nzira y'abanyamaguru, ari kwambuka umuhanda.

Uyu ni umugabo wambaye ipantaro y'umukara, irimo umurongo w'umweru, n'umupira w'umuhondo, akaba yicaye hejuru y'ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto ndetse n'amagare. Hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo umuntu uri kuyigenderamo.

Iki ni ikinyabiziga kinini cyane, kiri mu bwoko bw'igikamyo, gisa umutuku n'umukara ,cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'umweru, kiri kugendera mu muhanda n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Uyu ni umuhanda warimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka isa umweru ndetse na moto ziriho abagenzi, hirya hakaba hari ibiti biteye birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo: imodoka itwara abagenzi, ikamyo itwara imizigo, ndetse na moto zitwara nazo abagenzi.

Uyu ni umuhanda w'imodoka urimo imodoka zigiye zitandukanye, aho hano tubona igikamyo kirekire cyane gisa umukara n'umweru n'umuhondo n'umutuku, kiri kugendera mu muhanda n'ibindi binyabiziga.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye kimwe gisa umweru kikaba gihetse cyangwa se gitwaye imifuka myinshi, ikindi kinyabiziga kikaba gisa ubururu hirya kaba hari moto ndetse n'igare.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto ndetse n'igare. Mo hagati y'uyu muhanda hakaba harimo ubusitani buteyemo ibiti birebire.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hari n'umunyamaguru uri kwambuka muri uwo muhanda, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru iri gucamo abantu bagiye batandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'iki gisa n'umuhondo impande yacyo hakaba hari umunyamaguru uri kugendera mu nzira y'abanyamaguru.

Iki ni ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru, gitwara abagenzi, gihagaze muri gare n'ibindi binyabiziga byinshi, impande yacyo hakaba hari abantu bagiye batandukanye.

Iyi ni inyubako cyangwa se inzu, ifite ibara ry'umweru, hanze yayo hakaba hari ibiti byinshi by'amoko agiye atandukanye, kandi iyi nzu ikaba yubatse ahantu hegereye umuhanda.

Aha ni ahantu hameze nko muri sitade hubakishijwe ibyuma bisa ubururu, umuhondo n'icyatsi bifashe igisenge kiriho amabati ndetse hakaba harimo n'abantu bicaye muri iyi sitade.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga, wiganjemo ibinyabiziga bitandukanye n'imodoka nini itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru n'icyatsi ndetse na moto zitwara na zo abagenzi hano.

Iki ni icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse kikaba kirimo n'umweru hakaba handitsemo inyuguti isa umukara inyujijwemo ibara risa cyangwa se umurongo usu umutuku.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, umweru n'umukara, gishinze mu busitani impande y'igiti kirekire, ndetse impande y'umuhanda w'ibinyabiziga.

Iki ni icyapa gifitemo ibara ry'umutuku n'umweru n'umukara, gishinze mu busitani ndetse impande y'igiti kirekire, impande y'umuhanda w'ibinyabiziga.

Iki ni icyapa kiri mu ibara ry'umweru, kikaba gifite umuzenguruko w'umukara, kikaba cyanditseho inyuguti ndetse n'imibare biri mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa gisa umweru gifitemo umuzenguruko w'umutuku ndetse hakaba harimo ibishushanyo by'ibinyabiziga bibiri by'imodoka bisa umukara binyujijwemo umurongo utukura.

Iki ni icyapa gifite umuzenguruko usa umuhondo, hakaba hashushanyijemo igishushanyo kiri mu ibara ry'umukara.

Iki ni icyapa gisa umuhondo, gifite umuzenguruko w'umukara, kirimo ibishushanyo bitandukanye by'umukara, giteyepande y'umuhanda ndetse n'impande y'ibiti bigiye bitandukanye.

Iyi ni inzu iriho ibyapa bigiye bitandukanye kandi ikaba isize ibara ry'umutuku n'umweru, ibyo byapa bikaba biriho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru.

Ibi ni inzu zigiye zitandukanye zikikijwe n'ubusitani ndetse n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye, hejuru hakaba hari ikirere gisa umweru.

Iyi ni inzu ifite igisenge cy'umukara ndetse ikaba ikikijwe n'ibiti birebire cyane, gisa icyatsi.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka ndetse na moto, hirya hakaba hari inyubako nini cyane, iriho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye.

Iyi ni inyubako ifite igisenge cyenda gusa umutuku, ikaba iteyeho irangi ryenda gusa umweru. Imbere yayo hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye bigufi n'inyuma hakaba hari insina n'ibindi biti bitandukanye.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo: ikinyabiziga cy'imodoka gisa'umukara n'ikindi gisa umweru ku mpande hakaba hari n'umuyonzi utwaye igare.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye n'ubusitani bugiye butandukanye, impande hakaba hari n'amazu yubatse agiye atandukanye.

uyu ni umuhanda urimo abantu bagiye batandukanye, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'amazu agiye atandukanye ariho ibyapa bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'icyatsiu umweru ndetse n'ibindi byinshi.

Iyi ni inyubako ifiteho ibyuma bibiri ku ruhande ku gisenge, ikaba ifiteho n'amadirishya asa umukara n'inkuta zisa umukara, imbere y'iyi nyubako hakaba haparitse ikinyabiziga.

Iki ni ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umukara, kikaba gihagaze imbere y'inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa bigiye bitandukanye biri mu mabara atandukanye.

Iyi ni inzu ndende iri mu ibara ry'umweru, umukara ndetse ikaba iriho n'amatafari ahiye, hakaba hejuru hari kunyuraho insinga nyinshi zitandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo moto ndetse n'igare uyu muhanda kandi ukaba urimo n'ubusitani mo hagati ndetse ukaba usizi n'amabara agiye atandukanye yiganjemo umukara n'umweru.

Aba ni abantu bicaye abandi bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru iri mu mpande y'umuhanda, hakaba hari n'ubusitani, hakaba hari n'amagare abiri rimwe ryicayeho umuntu.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye byiganjemo imodoka ndetse na moto. Aha hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru yegeranye n'ubusitani ndetse n'ibiti biteye birebire.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga urimo amabara agiye atandukanye n'umweruru, n'umukara, impande hakaba ari ibiti ndetse n'ubusitani. Hirya hakaba hari amazu maremare.

Uyu ni umuhanda, urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, mo hagati hakaba harimo n'ubusitani, hirya hakaba hari inzira y'abanyamaguru irimo iracamo umuntu.

Uyu ni umuhanda w'ibinyabiziga ushushanyijemo imirongo isa umweru n'umuhondo, ndetse ukaba urimo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byiganjemo imodoka na moto.